Mugufasha abaturage kwiteza imbere babona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango leta y'u Rwanda ishishikariza abahinzi gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'ifumbire mvamabuno kugira ngo babashe kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Uburezi ni umusingi w'iterambere kubera ko abanyeshuri bavoma bumenyi bityo bakazabukoresha mu buzima busanzwe bakabasha kwiteza imbere, aha turi ni muri laboratwari aho abikwa imiti bita aside, ishobora kwifashishwa n'abiga ubuganga.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, abaturage bishyira hamwe maze bagakora koperative, bigaragara ko bafite n'impuzankano kuko bahawe amahugurwa y'ubuhinzi, ari byo mpamvu baba bishyize hamwe, bagahingira hamwe.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aha turi ni mu iduka ricuruza imiti ndetse n'umwayi w'imbuto aho baza bakazigura maze bakajya guhinga.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya byo gutunga umuryango, aba bahinzi bahisemo guhinga ndetse no gukoresha imvaruganda kugira ngo babone umusaruro uhambaye kandi ubaboneshereza inyungu ku gihe.

Ubuhinzi ni mu gufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije. Aha turi ni mu iduka ricuruza ibikoresho by'ubuhinzi, rigacuruza imiti batera ku bihingwa, ndetse rigacuruza n'umwayi w'ibihingwa, aho abaje kugura uno mwayi, baba biteguye kandi bizeye neza kuzagira umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza uzana iterambere, kuko abaturage babona ibyo kurya bihagije, babikesheje guhinga, bagakoresha agafumbire k'imvamabuno ndetse n'ak'imvaruganda. Uyu muhinzi murabona yuko ari kuyora imvamabuno cyangwa se ibishingwe kugira ngo ajye gushyira ku myaka.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona agafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aha turi ni mu nzu mo imbere aho bacururiza ibikoresho bijyanye n'ubuhinzi bitandukanye, harimo rozwari ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu icururizwamo imbuto z'ubuhinzi. Aho abaturage baza kugura imbuto nk'umwayi w'imbuto, maze bakajya guhinga bityo bakabasha kuzabona umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n' ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aha turi ni mu iduka ricuruza imiti iterwa ku myaka, bityo ukica udukoko umusaruro ukazaba mwinshi kandi mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba baturage bo bishyize hamwe bakora koperativu bahuza ubutaka, none ubu bari guhinga kugira ngo bitegure sezo y'umwaka utaha.

Ubuhinzi bwo gutera imyaka ku murongo, buzana umusaruro mwiza kandi mwinshi, niyo mpamvu guhinga bisaba no gutera umuti, kugira ngo umuti wica udukoko tuba turi ku myaka bitazatuma umusaruro uba mukeya.

Ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga, ndetse n'ibyokurya bihagije bitunga umuryango. Aha turi ni mu murima aho hari abaturage bari gushyira ifumbire ku myaka, ibishyimbo kugira ngo bazabashe kubona umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ukorwa n'abaturage benshi cyane mu Rwanda, aha ngaha turi mu iduka ricuruza umwayi w'imbuto, abantu baza bakagura maze bakajya guhinga.

Iyi ni inzu icururizwamo imbuto z'ibihingwa bigiye bitandukanye ziba zatunganirijwe mu nganda. Ni farumasi icuruza imbuto zatunganyijwe mu musaruro w'ubuhinzi, aho abaturage baza bakagura imbuto maze bakajya gutera.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona agafaranga ndetse n'ibiribwa byifashishwa mu rwego rwo gutunga umuryango. Aha turi hari icyapa kigaragaza yuko buno butaka buhingwa na koperative y'abantu bishyize hamwe.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye, maze bakajya babitera umuti, bagashyiraho ifumbire kugira ngo babone umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango, uyu muhinzi yahisemo guhinga intunguru mu buryo bwa kijyambere kugira ngo abashe kubona amafaranga ndetse n'iterambere muri rusange.

Uyu murima uhinzemo imboga rwatsi bita imbwija, aho harimo umuhinzi wazihinze yishimiye ko zimeze neza, zigiye kumuzanira amafaranga mu gihe gito, maze nawe akabasha kwiteza imbere.

Gufasha abaturage kwiteza imbere babona amafaranga, ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango aba bahinzi bahisemo gutunganya ingemwe ku kimoteri kugira ngo abantu bajye baza kugura ingemwe z'ibiti biterwa hamwe n'imyaka kugira ngo babashe kubona amafaranga niyo mpamvu bahisemo gukora ingemwe za avoka.

Urutoki ni igihingwa abaturage bishimira guhinga, kubera ko hari abagikoramo urwagwa ndetse abandi bakaba banabiteka, bityo umuryango ukabaho umeze neza nta nzara.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije bitunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo guhinga amashu ku murongo, ndetse no guhinga ibigori ku murongo, kugira ngo babashe kubona umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahinzi bahisemo guhinga ibinyomoro, urutoki ndetse n'ibigori, kugira ngo babashe kubona umusaruro, ndetse n'amafaranga abafasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'inanasi ni ubuhinzi budasaba igishoro cyinshi kandi inyungu ivamo iba ari nyinshi ugereranyije n'ubundi buhinzi bw'ibindi bihingwa, inanasi tuyikuramo umutobe ndetse n'ibindi byinshi.

Igihingwa cya kawa ni igihingwa ngandurarugo, kizana amafaranga menshi, kubera ko kigirira n'igihugu akamaro kubera ko igihugu gisohora ikawa hanze bityo bigatuma babona amadovize.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Aba bahisemo guhinga kijyambere kandi bagahinga ku murongo, ndetse bakita ku bihingwa byabo binyuze mu bitera umuti ndetse no kubishyiraho ifumbire, kugira ngo umusaruro uzarusheho kuba mwiza kandi mwinshi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahinzi bo bafite ingemwe z'ibiti baterana n'imyaka, bityo bakazabona amafaranga aturutse kuri ibi biti, bakabona na n'imihembezo bashingiriza ibishyimbo.

Mu buhinzi, bufasha abaturage kwiteza imbere mu mafaranga, ndetse n'byokurya bifasha gutunga imiryango y'u rwanda, gushishikarizwa buri muturage wese guhinga kugira ngo yihaze mu biribwa.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bihagije mu muryango, aha turi ni aho abaturage batemye ibihuru maze barahahinga kuri ubu bamaze iminsi basaruye imyaka bari barahahinze.

Ibyo ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyokurya bihagije bitunga umuryango. Aha tari bahinze imboga rwatsi kugira ngo bajye babasha kubona indyo yuzuye.

Igihingwa cya kawa ni igihingwa ngengabukungu, igihingwa cya kawa ni igihingwa kizana iterambere mu buryo bwihuse, haba ku muntu wagihinze ndetse n'igihugu muri rusange kuko igihugu gisohora ikawa mu mahanga kikabasha kubona amadovize.

Umurima uhingwamo imyaka igiye itandukanye bigaragara yuko bateye n'ibiti ku murongo. Tujye twitabira umunsi wo gutera igiti kuko ibiti bifata ubutaka kandi bikaduha n'imihembezo yo guhembera ibishyimbo bityo umusaruro ukaboneka ku mpande zose.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabasha kubona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Aba bahinzi bahisemo guhinga ibihingwa byabo ku murongo, nk'ibishyimbo kugira ngo babashe kubona umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona agafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa byifashishwa mu gutunga umuryango, aba bahinzi bahisemo gutera ibihingwa byabo ku murongo, kuko gutera kijyambere ni byo bituma babona umusaruro uhagije.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, aha turi imbere y'icyapa kigaragaza yuko hano mu kibaya hahingwa na koperative y'abantu bishyize hamwe.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bihagije, bibafasha kwitungira umuryango. Aba bahisemo guhinga ariko bafatanyije no korora, gusa abamaze korora inkoko, bari guhura n'indwara zifata inkoko zabo, zigapfa mu buryo buyoberanye.

Ubworozi bw'inkwavu ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga, bakazayakoresha mu bindi bikorwa bibyara inyungu. Ni byiza kugira agatungo woroye kubera ko karakugoboka igihe wabuze amafaranga.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije bitunga umuryango, aha turi ni mu nzu icururizamo imiti batera ku bihingwa, kugira ngo udukoko twagiye ku bihingwa dupfe maze bazabone umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona agafaranga ndetse bakabasha kubona ibyo kurya byo gutunga umuryango, uyu ni umuti ufasha abaturage kwica udukoko tuba twagiye ku dusimba kugira ngo bazabashe kubona umusaruro mwiza kandi uhagije.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere kuko babona amafaranga ndetse n'ibiribwa bitunga umuryango, uyu ni umuti uri mu gacupa batera imyaka kugira ngo uno muti wice udukoko tuba twagiye ku myaka.

Ubuhinzi bufasha abaturage kubona amafaranga ndetse n'byo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Aha turi ni mu iduka, ricuruza ibikoresho by'ubuhinzi, imiti batera ku myaka, ndetse n'umwayi w'imbuto, aho abahinzi bahagana, maze bakaza kugura bino biti bizeye kugira umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga, ndetse n'ibyokurya bihagije byo gutunga umuryango, abahinzi b'ino aha bo bahisemo kujya bahinga, ariko bakibuka gushyiraho agafumbire, ndetse no gutera umuti wica udukoko twica imyaka yabo.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, uyu mukobwa yatubwiye ko yahisemo kwihingira ibigori, kubera ari byo byera kandi bikamuha umusaruro mwiza kandi mwinshi bitamusabye igishoro kinshi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango, aba bari gutema ibihuru kugira ngo babone aho bazahinga imyaka mu ihinga ritaha.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bitunga umuryango, aha uyu ni umugabo urimo arareshyeshya ubutaka kugira ngo abone uko azatera imyaka neza maze izamere neza.

Ubuhinzi ni umwuga ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga, ndetse n'ibyo kurya bihagije bitunga umuryango. Uyu muhinzi we yahisemo guhinga ibihingwa bitandukanye, harimo: amateke, ibigori, amashyaza, ibishyimbo, n'urutoki. Kugira ngo abashe kubona umusaruro mwinshi kandi imyaka igiye itandukanye.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango, aba bahisemo guhinga imyaka mu gihe imvura itangiye kugwa kugira ngo imvura itazajya ibacika imyaka yabo itaragira aho igera.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga n'ibyokurya bihagije. Aha turi ni mu murima hari umuhinzi uri guhinga kugira ngo gutanguranwa n'imvura, izagwe yamaze kubona ntabire maze atere bityo imyaka ikure neza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Aba bahisemo kwishyira hamwe bakajya bagurizanya, bityo bagahuza n'ubutaka bagahinga, bakabasha guhingira hamwe kugira ngo babashe kwita ku bihingwa byabo neza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabasha kubona n'amafaranga, bityo urugo rugatera imbere. Uyu muhinzi avuga yuko yahisemo guhinga urutoki maze mu rutoki akajya ahingamo imyaka migufi y'ibishyimbo, soya, amashaza, amateke, imyumbati ndetse n'ibindi kugira ngo abashe kwihaza mu mirire.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyokurya bihagije byo gutunga umuryango. Aba bahinzi bahisemo guhinga ibigori kijyambere, bagashyiraho ifumbire ndetse bakabitera umuti kugira ngo bizane umusaruro mwinshi uhagije. Urabona ko bishimiye umusaruro w'ibigori, iki kigori nawe ntabwo wakiveba.

Ubuhinzi bw'icyayi ni bumwe mu buhinzi bufasha abaturage kwiteza imbere, abaturage babihinga biyemeje yuko bagomba gukorera hamwe kugira ngo bajye bagira umusaruro mwinshi uhagije ndetse basabe no kuba bahabwa amahugurwa abafasha gutunganya neza umusaruro wabo.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, uyu muhinzi we yahisemo guhinga ibirayi, bigaragara ko ari kwerekana ibirayi bye ko byeze neza, akaba yishimiye umusaruro abonye.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona ibiribwa bifashisha mu gutunga umuryango. Aba bahinzi bishyize hamwe bakora koperative maze bahuza ubutaka bahingira hamwe kugira ngo babashe kubona umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije, uyu muhinzi we avuga ko yahisemo guhinga imyumbati, ibigori ndetse n'urutoki, kubera yuko ari byo bizana umusaruro kandi bitamusabye igishoro cyinshi.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abantu guhinga imboga hakoresheje akarima k'igikoni. Aha turi n'urubyiruko rwa Yufu volontiya ruri kubabakira umuturage akarima k'igikoni kugira ngo ajye abona aho ahinga imboga mu buryo bumwegereye hafi y'urugo.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango; aha ni mu murima turahabona umuhinzi ari guhinga, kugira ngo ategure aho azahinga imyaka ye muri saison itaha.

Ubuhinzi ni umwuga ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya byo gutunga umuryango. Aba bahinzi bahisemo gutera kijyambere, ni yo mpamvu bari guhinga, bari gutera bakoresheje imishipiri kugira ngo babashe gutera neza ku murongo.

Ubuhinzi bufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Aba bahinzi bahisemo, guhinga kijyambere kandi ku murongo bagahinga ibihingwa bitandukanye harimo ibigori, ibinyomoro, imyumbati, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye kugira ngo babashe kubona umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha buri muturage wese kubona iterambere mu buryo bumworoheye, aba ni abaturage bishyize hamwe bakagurizanya, bari mu murima bari guhinga kubera ko tugeze mu gihe cy'ihinga, bityo bafatanye guhinga imvura itarabacika.

Ubuhinzi ni ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya byo gutunga umuryango, aha ni mu murima aho tuhabona umubyeyi uri guhinga kugira ngo azabone aho ahinga imyaka umunsi imvura yaguye.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aha turi ni mu iduka ricuruza imiti batera ku myaka kugira ngo udusimba turiho dupfe tutazatuma umusaruro uba mukeya.

Ubuhinzi bw'imbuto, ni umwuga uzana amafaranga. Maze abaturage bakabasha kubaho neza bakiteza imbere, imbuto bahinga ziganjemo avoka, karoti, tungurusumu, amatunda ndetse n'izindi imbuto zitandukanye.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga n'ibyokurya bibafasha gutunga umuryango. Aba ni abadamu bari kugosora ibigori byaturutse ku musaruro babonye muri iki gihe. Bishimiye yuko babonye umusaruro mwiza, kandi ni ukuri ibigori byareze cyane.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bigaragara ko aba bahinzi bakunda guhinga inyanya kuko ari zo zibazanira amafaranga mu gihe gitoya.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'byo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Aha turi ni mu kibaya, ikibaya bahingamwo umuceri aho abaturage bari kuvuga yuko umuceri ubafasha kubona amafaranga.

Ubuhinzi ni mu ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa bifashisha mu gutunga umuryango. Aba bahinzi barishimira umusaruro w'ibigori bagezeho, kuko umusaruro wariyongereye ugereranyije n'umwaka ushize.

Ubuhinzi ni mwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihaza umuryango, aba bahisemo guhinga avoka za kijyambere kuko arizo zizana umusaruro ndetse n'iterambere mu buryo bwihuse.

Ubuhinzi bw'ibirayi bufasha abaturage babihinga kubona amafaranga ahagije, bityo bakabasha kwiteza imbere, aba bahinzi bavuga yuko uyu mwaka babonye umusaruro mwinshi kandi mwiza bagereranyije n'imyaka yatambutse.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga, ndetse bakabona n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, uyu mugabo we yayihingiye igiti cya avoka, none avuga ko ivoka zivaho zimuha agafaranga ndetse akabasha kwiteza imbere, bityo ubuzima bukaba bugenda neza.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga n'ibyo kurya bihagije. Aba bahinzi bahisemo guhinga ibitoki ndetse n'ibigori kugira ngo babashe kubona iterambere mu buryo bwihuse.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahinzi bo bavuga ko guhinga urutoki ari byo byatumye batera imbere ndetse n'ibyo bafite byose, bakaba babikesha kuba barahinze urutoki.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bihagije byo gutunga umuryango, abaturage bashishikarizwa gutema ahari ibihuru kugira ngo ubutaka buhari na bwo babubyaze umusaruro.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahinzi bahisemo guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kubona umusaruro mwinshi kandi bihaze mu biribwa.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga. Ndetse ku buryo bibafasha gutunga umuryango. Abahinzi bo bahisemo guhinga amashyamba ndetse no gutema ibyatsi n'ibihuru, maze aho byari biri bakahabyaza umusaruro .

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa, bifashisha mu gutunga umuryango, bityo rero ubuhinzi tubwiteho kandi tubukore neza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, aba bahinzi bahisemo guhinga urutoki maze mu rutoki bagahingamo imyaka migufi bakabasha kubona amafaranga mu gihe gitoya.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bifashisha mu gutunga umuryango. Aba bahinzi bahisemo kwihingira ibihingwa bitandukanye kugira ngo babashe kubona umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije bitunga umuryango. Aba bahisemo kwihingira amashyamba kugira ngo bazajye babona aho batema igiti ndetse nibiba ngombwa bagurishe ibiti bivamo imbaho, maze bakabona amafaranga.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, uyu muhinzi we yahisemo kwiterera ishyamba, bityo akazajya arigurisha akabona amafaranga ndetse yakenera n'igiti cyo kubaka akabona aho agitema.

Ubuhinzi ni umuga ufasha abaturage kwiteza imbere kubera ko babona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije bitunga umuryango. Aba bahinzi bo bahisemo gutemurura ibihuru biri ku misozi byose, ubutaka buri ku musozi bakabubyaza umusaruro binyuze mu kubuhinga.

Uyu ni umurima uhinzemo urutoki, ndetse n'amapapayi, urutoki ndetse n'amapapayi ni ibihingwa bituzanira amafaranga bityo tukabasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abantu kwiteza imbere bakabona n'amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije. Aha turi ni hafi y'ahantu hari ubutaka buhingwa, hari n'imyaka ndetse. Maze abantu bafashe umwanzuro wo gutema ahari ibihuru hose kugira ngo bahabyaze ubutaka buhingwa.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabasha no kubona ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango, uyu muhinzi yahisemo guhinga ibihingwa bitandukanye harimo amateke, urutoki ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere kubera ko babona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, aba bahisemo guhinga ivoka za kijyambere kugira ngo babashe kubona amafaranga mu buryo bwihuse kandi biteza imbere.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kubona amafaranga, ndetse n'ibyo kurya bihagije bibashe gutunga umuryango. Uyu muhinzi we yahisemo guhinga ibigori, amateke, ibishyimbo, ndetse n'imboga, kugira ngo ajye abona indyo yuzuye.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona agafaranga ndetse n'ibiribwa bihaza umuryango. Uyu muhinzi yahisemo kwihingira intoryi, kuko ari zo zizana umusaruro vuba, umutera kubona amafaranga akabasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Abahinzi bavuga ko bahisemo guhinga amashu, kubera ko amashu aragurwa cyane ku isoko bigatuma babona amafaranga ahagije. Gusa bavuga yuko basagurira no mu rugo, ugasanga abana n'umuryango bari kurya imboga.

Ubuhinzi bw'indabyo, na bwo buzana amafaranga abaturage bakiteza imbere, kubera ko umuntu wahinze jardin, abantu bakoze bakoresheje ubukwe baza kwifotorezamo, bakamuha amafaranga bityo na we akabasha kwiteza imbere.

Aha ni muri jaride aho harimo indabo zigiye zitandukanye, uyu muhinzi we yahisemo kwitunganyiriza jaride kugira ngo abantu bagize ubukwe, bajye baza kwifatira amafoto hano maze bamuhe amafaranga na we abashe kwiteza imbere.

Ubuhinzi ni umwuga ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyokurya byo gutunga umuryango. Aba bahinzi bahisemo guhinga pavuro, ibitunguru, tungurusumu, intoki ndetse n'intoryi kugira ngo babashe kubona amafaranga biteza imbere.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona agafaranga ndetse bakabasha no kubona ibyo kurya byo gutunga umuryango, aha turi ni mu murima urimo umuhinzi wahisemo kwihingira intoryi kubera ari zo zizana umusaruro vuba, ndetse akabasha kubona agafaranga bitamugoye.

Ubuhinzi ni umwuga ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije, aba bahinzi bahisemo guhinga urutunguru, ndetse bakaruhinga ku murongo kugira ngo babashe kwiteza imbere babikesheje urwo rutunguru.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya byo gutunga umuryango, aha turahabona ibihingwa bitandukanye bihahinze bifasha abaturage kubona umusaruro maze bawugurisha bakabona amafaranga.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango. Ubu rero turi ahantu bahinze imyaka igiye itandukanye kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Uyu ni umurima uhingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye, aho harimo abahinzi bari gutera imbuto ndetse ubona ko bishimiye iki gikorwa barimo gukora, ubuhinzi ni umwuga mwiza utuzanira iterambere mu buryo bwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya byinshi kandi bihagije byo gutunga umuryango maze umuryango ukabaho neza. Aha turi ni mu isoko ry'ibiribwa, bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo: urutunguru, ibishyimbo, inyanya, intoryi, ibigori soya ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere kuko babona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango, baba bahisemo guhinga mu buryo bwa kijyambere kugira ngo babashe kubona umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyokurya byo gutunga umuryango kandi bihagije. Uyu muhinzi we yahisemo kwihingira imyaka igiye itandukanye kugira ngo abashe kwihaza mu mirire.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije, aba bahinzi bahisemo guhinga imboga rwatsi ndetse n'imbuto harimo, ibinyomoro, imboga rwatsi bitambuga igifu ndetse n'izindi mbuto.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kubona amafaranga ndetse bakabasha kubona n'ibyo kurya bitunga umuryango, aba bahinzi bahisemo guhinga imbuto ndetse n'insenda bakabihinga ku murongo kugira ngo bazabone umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bifashisha mu gutunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo kujya bahingira igihe kugira ngo imvura itabacika.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya byo gutunga umuryango, aba bahisemo guhinga ibishyimbo kuko ari ibihingwa bibaha umusaruro mu buryo bwihuse ndetse no mu gihe gitoya.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, uyu muturage we yahisemo kwihingira indabyo maze agakora jaride izajya yifashishwa mu gubotora abantu mu gihe bagize ubukwe, bakaza kuyikodesha ino jaride maze bakamuha amafaranga.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango; aba bahinzi bo bahisemo kwihingira intoryi kubera ko ari zo zizana umusaruro, bakabona amafaranga mu gihe gitoya kandi bitabasabye igishoro kinshi.

Ubuhinzi bw'imbuto ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere mu gihe gitoya, uyu we yahisemo kwihingira inyanya kuko inyanya zizana amafaranga mu gihe gitoya kandi nta gishoro cyinshi bisaba.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere mu gihe gito ndetse bakabona n'ibiryo barya, uyu muhinzi we yahisemo kwihingira intoryi kuko iyo ajyanye intoryi ku isoko, bamuha amafaranga menshi maze akabasha gukora ibindi na we bimufasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, aba bahinzi bahisemo gutera ibiribwa byabo ku murongo.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije umuryango. Aba bahisemo guhinga ibihingwa bitandukanye, ariko cyane cyane bibanze ku bihaza na watameloni.

Ubuhinzi n'ubucuruzi bufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, uyu yahisemo gucuruza imineke kubera ko abantu barayikunda cyane, bityo abona abakiriya benshi akabona n'amafaranga menshi amufasha gutunga umuryango we.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, uyu muhinzi yahisemo kwihingira indabyo agakora jaride maze abakoresheje ubukwe bakazajya baza gukodesha ino jaride akabona agafaranga ko kwiteza imbere.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kubona amafaranga no kwiteza imbere ndetse bakabona ibiribwa bihaza umuryango, bitabasabye gutanga amafaranga menshi ya buri munsi, uyu yahisemo kwihingira urutunguru kuko rumuzanira amafaranga kandi bitamusabye igishoro cyinshi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo guhinga imboga ku karima k'igikoni, kugira ngo bajye babasha kubona indyo yuzuye.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije bitunga umuryango. Aba bahisemo guhinga jaride iruhande rw'igipangu kugira ngo bajye babasha kubona amafaranga mu gihe abantu bakoresheje ubukwe maze bakaza kubasaba jaride yo kwifotorezamo.

Leta y'u Rwanda irashishikariza buri muturarwanda wese, kugira akarima k'igikoni, azajya ahingaho imboga rwatsi, kugira ngo azajye azifashisha mu gihe ari guteka, maze bafate amafunguro yujuje intungamubiri zose.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, ndetse bakabona agafaranga n'ibiribwa bibahaza mu muryango. Uyu muhinzi yahisemo kwihingira imboga rwatsi kuko zikenerwa cyane ku isoko.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga. Aba bahinzi bo bahisemo guhinga amatunda, kubera ko bituma babona amafaranga, kandi burya imbuto zirahenda, ni yo mpamvu bishimira urwunguko bakura muri uyu musaruro w'amatunda.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere kubera amafaranga bakura muri ubwo buhinzi, aha turi ni mu kimoteri aho abaturage bishyize hamwe biyemeza gutunganya ingemwe zirimo ibiti, maze ibyo biti bakabiterana n'imyaka bakabasha kubona umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'icyayi ni ubuhinzi buzana amafaranga vuba. Abaturage bavuga ko guhinga icyayi bituma babona amafaranga menshi bityo iterambere ryabo rikihuta.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo kwihingira urusenda ndetse n'indi myaka nk'intoryi, maze bakabitera ku murongo, bityo bakazabasha kubona umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere ndetse bakabona n'ibiribwa bihaza umuryango, uyu muhinzi yahisemo kwihingira imbuto z'intoryi kuko zimufasha kubona amafaranga bityo akiteza imbere vuba.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga, ndetse bakabona n'ibyo kurya bibafasha gutunga urugo. Uyu muhinzi yahisemo kwihingira intoryi kuko ni zo zizana umusaruro ndetse n'iterambere mu buryo bwihuse.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, uyu muhinzi we yahisemo kwihingira intoryi kuko ari zo zimufasha kubona amafaranga mu gihe gito kandi nta gishoro kinini bimufashe.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango, aba bahinzi bahisemo kwihingira karoti kuko ari zo ziborohereza kandi bakabona umusaruro uhagije ubafasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bihaza umuryango wabo, uyu muhinzi yahisemo kwihingira imiteja kuko imiteja ahita ayijyana ku isoko akabona amafaranga ye.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Aba baturage bahisemo guhinga ibihingwa byabo ku murongo kugira ngo babashe kubona agafaranga ndetse biteze imbere muri rusange.

Ubuhinzi bw'imbuto ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo guhinga ibihingwa bitandukanye harimo ibinyomoro, amatunda, amapapayi, amavoka ndetse n'izindi kugira ngo babashe kubona iterambere n'amafaranga mu buryo bwihuse.

Ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya byo gutunga umuryango, aha turi hari abadamu ndetse n'umugabo bari kubaka akarima k'igikoni bagiye guteraho imbuto kugira ngo bazabashe kubona indyo yuzuye.

Ubuhinzi bufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutumanga umuryango, uyu mukobwa yahisemo guhinga intoryi, kubera ko bimufasha kubona amafaranga yo kwizigama mu itsinda aba arimo yizigama buri cyumweru.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwinjiza amafaranga bakabasha kwiteza imbere ndetse bakabona n'ibyo kurya bitunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo guhinga karoti kuko ari igihingwa kizana amafaranga ndetse n'iterambere mu buryo bwihuse.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa bibasha gutunga umuryango. Aba bahinzi bo bahisemo guhinga ibinyomoro kuko ibinyomoro ni imbuto zizana amafaranga mu gihe gito.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga menshi, maze bakayakoresha mu bindi bikorwa bitandukanye, agateza n'iterambere mu rugo, aha ngaha turi bahinze akanyatsi, bagateramo pasiparamu, kugira ngo bazajye babona amafaranga igihe abantu baje gukora ubukwe maze bakahifotoreza.

Umurima uhingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibishyimbo, urutoki urutunguru ndetse n'ibindi aho harimo abahinzi barimo bavomera, bafite ruzwari abandi bari kwitegereza neza uko imyaka imeze niba nta dusimba turi kuyirya kugira ngo babashe kuyitera umuti.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n’ibyokurya bihagije. Abahinzi benshi bakunze kuvomera imyaka yabo mu gihe cy’izuba kugira ngo bazabashe kubona umusaruro mwiza kandi utubutse.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bifashisha mu gutunga umuryango. Aba bahinzi bo bahisemo kujya baza bakavoma amazi bakajya kuhira imyaka yabo kugira ngo batazabona umusaruro mukeya.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bitunga umuryango. Aba ngaba bahisemo guhinga ibigori kuko ari byo bizana umusaruro ndetse n'iterambere mu buryo bwihuse.

Ubuhinzi bufasha abaturage kwiteza imbere bakobona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, gusa guhinga bisaba ndetse no kuhira imyaka kugira ngo ibashe kuzamuka neza igihe imvura yabuze, uyu muhinzi yahisemo guhinga amashu, imboga ndetse n'ibigori, kubera ko ari byo bizana umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa bifasha gutunga umuryango, aba bahisemo guhinga ibihingwa byabo maze bakabivomerera kugira ngo umusaruro uzabe mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona agamafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aha turi ni mu murima, aho hahinzemo imbuto zitandukanye, imboga, karoti ndetse n'izindi mbuto, hagaragaramo umugore uri kuzuhira, kugira ngo zibashe kubona amazi maze zitanga umusaruro uhagije.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, kuko abahinzi babona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, bigaragara ko hano hari ubutaka bwera cyane kuko hari imirima irambitse.

Ubuhinzi ni umuntu ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibasha gutunga umuryango, aha turi hari ubutaka bwo guhinga, bisobanuye yuko abaturage bahahinga maze bakabasha kubona ibiribwa bitunga umuryango.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere mu gihe gitoya. Bakabasha no kubona ibiribwa bibahaza mu muryango, abana bakabasha kubaho bameze neza.

Uyu ni umurima uhingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye, hari igice kimwe kirimo imyaka igejeje igihe igiye kwera, hakaba n'ikindi gice kidateye ari cyo bari gutunganya neza kugira ngo na cyo bagishyiremo imyaka.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere mu gihe gito bakabona agafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa, aba bahisemo guhinga ibihingwa bitandukanye nk'ibishyimbo, amateke ndetse n'ibindi.

Mu buhinzi ni ahantu ho gufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa byifashishwa mu gutunga umuryango ukabaho neza. Aba bahinzi bahisemo guhinga ibihingwa bivangitiranyije, kugira ngo bazajye babona umusaruro mwinshi kandi wiganjemo ibiribwa bitandukanye.

Uyu ni umwubu ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyokurya bitandukanye byo gutunga umuryango. Aba bahisemo kwihuza bakora icyo bita ishyirahamwe maze bahuza ubutaka bityo ubu bari guhinga kugira ngo bitegure ihinga ry'umwaka utaha

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo guhinga ibihingwa bigufi nk'ibishyimbo kugira ngo babashe kubona umusaruro.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga, ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Aba bahinzi bahisemo guhinga ibihingwa bitandukanye kandi bakabihinga ku murongo, kugira ngo babashe kubona umusaruro ndetse ubazanira amafaranga menshi.

Ubuhinzi no mu gufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aha turi ni mu kibaya cy'umuceri, aho bahinga umuceri maze bakaba bafite ishyirahamwe ry'abanyamuryango, aho bahuriza umusaruro hamwe.

Ubutaka buhingwa buri ku misozi, aho abaturage bahaciye amaterasi y'indinganire kugira ngo imvura ntigwa itazatwara ubutaka ndetse n'imyaka, tujye duca amaterasi kuko amaterasi afasha ubutaka kugumana ifumbire ndetse n'amazi igihe imvura iguye.

ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga, ibyo kurya bihagije bibafasha gutunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo guhinga ibihingwa bitandukanye harimo: ibishyimbo, inkori, amashaza, ibigori ndetse n'amashyamba, kugira ngo bajye babasha kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango, aba baciye amatarasi y'indinganire kugira ngo ubutaka bubashe kubika amazi ndetse no kubika ifumbire.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo gutera ibinyomoro kubera ko ari imbuto nziza zikurwa ku isoko, abantu bagura maze bakabasha kugira ubuzima bwiza, ndetse n'ababihinze bakabona amafaranga ahagije.

Ubuhinzi n'ubworozi bufasha abaturage kubona amafaranga maze bakabasha kwiteza imbere, aha turi hari umuturage uvuga ko korora ingurube ndetse no guhinga ibihingwa bitandukanye bituma yihaza mu mirire.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere mu gihe gito. Ibi ni ibiraro by'inkwavu umuturage yubatse kugira ngo azororeremo inkwavu maze ajye agemura inyama ku isoko.

Ubuhinzi n'ubworozi bifasha abaturage kwiteza imbere bakabana amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahisemo korora ihene ndetse no guhinga ibihingwa bitandukanye, kubera ko bizana umusaruro mu rugo maze urugo rugatera imbere.

Ubworozi bw'amatungo butuma abaturage babona amafaranga menshi kandi ahagije, ni yo mpamvu aba baturage bahisemo korora ingurube, kubera ko zororoka vuba, kandi bakabona amafaranga menshi abafasha gusunika ubuzima, kandi bakabaho ntacyo baganya.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga ugufasha abaturage kubona amafaranga bakiteza imbere ndetse bakabona n'ibyo kurya byo gutunga umuryango, aba bahisemo gufatanya ubworozi n'ubuhinzi kuko ari bwo buryo bwiza bwo gukorera amafaranga ndetse bakabona iterambere mu buryo bwihuse.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere. Uyu muhinzi yahisemo guhinga ariko akanorora inka kugira ngo abashe kubona imborera ndetse abone n'amafaranga yo kwiteza imbere, igihe yagurishije inka.

Ubworozi ni umwuga uzanira abaturage iterambere mu gihe gito, uyu mworozi we yahisemo korora inkoko maze akagurisha amagi ndetse akagurisha n'inyama z'inkoko, bityo akiteza imbere uko bishoboka kose.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona agafaranga ndetse n'ibyokurya bitunga umuryango, aba bahinzi bo bahisemo kubifatanya no korora ingurube, kubera ko ingurube iyo yabwaguye, umuntu ahita abona amafaranga menshi mu buryo bwihuse.

Ubworozi bw'amatungo bufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga, aba borozi bahisemo korora inka bafatanyije no guhinga ibigori, kubera ko bituma babona ubwatsi bw'inka kandi bakabona n'umusaruro mwiza kandi mwinshi ubafasha kwiteza imbere.

Ubworozi ni umwuga uzanira inyungu abaturage mu gihe gito, uno muhinzi yoroye ingurube, aziha ibyo kurya bihagije kugira ngo zikure neza maze zizamuzanire amafaranga mu gihe gitoya, abashe kwiteza imbere.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga, ndetse bakabona n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango. Aba borozi bahisemo korora amatungo y'inka, kugira ngo babone umusaruro mu buryo bwihuse.

Ubworozi ni ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya byo gutunga umuryango. Uyu mudamu we yahisemo korora ihene kuko ariyo ashoboye korora bitewe n'ubushobozi afite.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga, ndetse bakabona n'ibyokurya bihagije bitunga umuryango, baba bahisemo korora inka, kuko bituma babona amafaranga menshi atubutse kandi aziye rimwe.

Ubworozi bufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba borozi bahisemo korora ingurube kubera ko iyo ngurube yabwaguye, abaturage babona amafaranga mu gihe gito kandi menshi.

Ubworozi n'ubuhinzi bufasha abaturage kubona iterambere kubera ko iyo bagurishije itungo bituma babona amafaranga menshi ahagije bityo bagashora mu buhinzi, bakanahinga imyaka kijyambere kandi ikera neza ko baba bayiteye n'imiti.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere. Uyu mworozi yahisemo korora ingurube akajya aziha ibyo kurya bihagije maze zikabasha gukura vuba maze nawe akabona amafaranga abasha gukoresha ibindi bimufasha kwiteza imbere.

Ubworozi ni umwuga ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije bitunga umuryango, aba borozi bo bahisemo korora ingurube kubera ko ari zo zibazanira amafaranga ndetse n'iterambere mu buryo bwihuse.

Ubworozi bw'amatungo bufasha abaturage kubona amafaranga ndetse n'iterambere mu buryo bwihuse. Uyu muhinzi yahisemo guhinga ndetse yorora n'inka, kugira ngo ajye abasha kubona umusaruro mwinshi uhagije.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere. Aba borozi bishyize hamwe borora inka inkoko ndetse na dendo kugira ngo babashe kubona amafaranga, bayakesheje umusaruro uturuka ku matungo.

Ubworozi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, uyu mworozi we yahisemo korora inkoko akajya acuruza amagi ndetse akagurisha n'inkoko zivamo inyama.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga ufasha buri muturage wese kwiteza imbere. Uyu we yahisemo korora amatungo magufi kugira ngo azajye agurisha inyama maze na we abashe kwiteza imbere.

Ubworozi n'ubuhinzi bifasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, uyu mworozi avuga yuko yahisemo korora inka, inkoko, ingurube ndetse n'andi matungo kugira ngo abashe kwiteza imbere, abone amafaranga mu buryo bwiza.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba bahisemo gukora ubuhinzi ariko banorora n'inka kubera ko bazajya babasha kubona umusaruro mwinshi kandi ubahagije, bityo bakabasha kwiteza imbere.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse akiteza imbere. Aba borozi bahisemo korora ingurube kuko ingurube zororoka vuba bityo bakabona amafaranga mu gihe gitoya.

Ubworozi bw'inkoko bufasha abaturage benshi kwiteza imbere, kubera ko bagurisha amagi ndetse na bo bakagira ayo barya bakagurisha n'inyama. Ubwo ndavuga amasake, abacuruzi bakunda kugura kugira ngo bajye bagurisha inyama.

Ubworozi bw'amatungo bufasha abaturage kubona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Uyu muhinzi yahisemo korora inka ndetse no korora inkoko, kubera ko abasha kugurisha amata ndetse n'amagi, bityo akagurisha n'inyama, maze akabasha kubona iterambere mu buryo bwihuse.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kubona amafaranga bakiteza imbere ndetse bakabona n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, aba bahinzi bifuje korora ingurube kuko ari zo babona zababyarira inyungu mu buryo bwihuse.

Ubworozi bw'inkoko bufasha abaturage kwiteza imbere kubera ko bagurisha amagi, bakagurisha n'inyama z'inkoko cyangwa se amasake, ni byiza rero kuzitaho igihe uzi ko woroye inkoko nyinshi kugira ngo zikomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga, ndetse bakabona n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango, aba baturage bahisemo korora inka kubera ari zo zitanga umusaruro uhagije, ari umusaruro ukomoka ku mata, ndetse n'ukomoka ku nyama, bityo bakabasha kubona amafaranga mu buryo bwihuse.

Ubuhinzi n'ubworozi, ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, uyu mudamu we yahisemo kwiyororera ihene, cyangwa se amatungo magufi, kugira ngo abashe kubona agafaranga.

Ubworozi bufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aba borozi bahisemo korora ingurube kubera ko ingurube zororoka vuba bigatuma babona amafaranga, maze bakayifashisha no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko buzana amafaranga mu gihe gitoya, kubera ko abaturage bagurisha amagi, bakagurisha ndetse n'inyama z'inkoko bityo bakabasha kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'inyama zo kurya mu gihe bakeneye intungamubiri cyangwa se bashaka akanyama, uyu yahisemo korora inkoko kuko abasha kugurisha amagi ndetse akagurisha n'inyama, yakenera n'inkoko yo kurya nawe akaba ayikuye mu zo yoroye.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere. Uyu mworozi yahisemo kwiyororera amatungo kugira ngo abashe kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi buzana amafaranga mugihe gitoya. Aha turi ni mu buhunikiro aho bashandika ibigori bikazahumira maze bakazaza bakabihungura bityo bakajya kugurisha impungure.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, aha turi ni mu kimoteri aho batunganyiriza ingemwe z'ibiti biteranwa hamwe n'imyaka, ibi biti higanjemo, gereveriya, amavoka ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabasha kubona ibibatunga ndetse bakabona n'amafaranga. Aba bahinzi bavuga yuko bahisemo guhinga ibihingwa bitandukanye, kugira ngo babashe kwihaza mu biribwa ndetse babone n'agafaranga.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza, ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga, ndetse bakabona n'ibyo kurya bihagije. Aha turi ni mu kimoteri, aho abaturage bishyize hamwe, bakiyemeza gutunganya ingemwe z'ibiti, bazajya baterana n'imyaka.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona agafaranga, uyu muhinzi we yahisemo kwihingira icyayi kuko kizana amafaranga mu gihe gitoya.

Ubuhinzi ni umwuga ugufasha abaturage ndetse no kwiteza imbere mu gihe gito ndetse no kubona ibiribwa bibahagije mu muryango, uyu yahisemo kwihingira ibishyimbo birebire maze agashinga ibiti, ibishyimbo bikuririraho maze umusaruro ukabasha kwiyongera ukaba mwinshi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa bibafasha gutunga umuryango ukabaho neza, aba bahinzi bo bahisemo guhinga ibigori kuko ari byo bizana umusaruro mu gihe gitoya.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bibafasha gutunga umuryango. Abahinzi bashishikariye gutema ibihuru kugira ngo babone ubutaka bahinga.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibiribwa bifasha gutunga umuryango, aba bahisemo guhinga kijyambere kugira ngo babashe kubona umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bifashisha batunga umuryango. Aba bahinzi bahisemo kujya bahingira igihe kugira ngo imvura itazajya ibacika.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, uyu yahisemo gukora akarima k'igikoni maze agahingaho imboga rwatsi, zimufasha kubona indyo yuzuye.

Umusaruro w'ibigori utuma abaturage bahorana akanyamuneza kubera ko babona amafaranga, ndetse bakabona n'kawunga birira, bavuga y'uko guhinga ibigori batazigera babireka kubera ko ibigori bituma babona ibyo bifuza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bitunga umuryango. Aba bahinzi bahisemo guhinga intoryi mu buryo bwa kijyambere kugira ngo babashe gutunga umuryango ndetse babone n'umusaruro ubazanira amafaranga.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bifashisha batunga umuryango, aha turahabona ibihingwa bihinze ku murongo kugira ngo bibashe kugira umusaruro mwiza.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi, utuma abantu batera imbere mu gihe kihuse, aha rero turahabona hangari, aho bashandika ibigori mu gihe byeze, maze bakazabihungurira byamaze kuma.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona ibyo kurya bitunga umuryango ndetse n'amafaranga, aha hari umworozi ugaragaza yuko ari gukama inka ye kugira ngo abashe kubona amata yo kunywa.

Ubworozi ni ugufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga. Uyu mworozi yahisemo kwiyororera inka kuko inka ni zo zizana umusaruro mwinshi mu gihe gitoya kuko ari ukomoka ku mata ndetse n'ukomoka ku nyama.

Ubuhinzi n'ubworozi, ni umwuga ufasha abaturage kwinjiza amafaranga, ndetse bakabona n'ibyo kurya bitunga umuryango, aha turahabona abagabo babiri bari guha inka umuti kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza, maze izatange umusaruro mwinshi cyane.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare n'umwuga ufasha umuturage kwiteza imbere akabona agafaranga, bigaragara ko ari abayobozi baje gusura uno muturage wakoze umushinga wo korora amatungo.

Ubworozi bufasha abaturage kubona amafaranga, menshi kandi mu gihe gito. Gusa bavuga yuko korora bisaba kuba ufite amafaranga menshi. Kuko bikenera abaveterineri bahora baza kureba uko amatungo yawe ameze.

Ubworozi bufasha abaturage kubona amafaranga, kandi menshi, aziye rimwe mu gihe bagurishije nk'itungo. Aba bahisemo korora inka, kubera ariko zizana, umusaruro, mwinshi cyane. Gusa bavuga yuko, kugira inka nyinshi, bisaba no kuba ufite veterineri ukwegereye kuko zihora zirwaragurika.

Iduka ricuruza umusaruro ukomoka ku buhinzi, rigacuruza n'ibikoresho byifashishwa mu kuhira imyaka ndetse hari umugabo ufite agacupa karimo imbuto batera iba yatunganyijwe neza kugira ngo abantu babone umusaruro ushyitse.

Ubworozi bufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'iterambere mu buryo bwihuse, aborozi bahisemo kujya bazana amatungo yabo bakayateza intanga kugira ngo amatungo yabo abyare ayandi ya kizungu.

Ubworozi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona n'amafaranga kandi mu gihe gito, uyu mworozi we yahisemo korora inka, kugira ngo abone amafaranga mu gihe gitoya kandi menshi aziye rimwe.

Ubworozi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga. Gusa kuba umworozi nyawe, bisaba kuba ufite veterineri hafi wegera amatungo yawe, akajya areba ubuzima bwayo uko bumeze.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere kuko babona agafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya byo gutunga umuryango, aba bahinzi bishyize hamwe, maze biyemeza korora ndetse no guhinga ibigori kugira ngo bajye babona umusaruro w'ibigori ndetse ibigorigori babihe inka zibirya.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere. Uyu mworozi we yahisemo korora ingurube maze akazitaho akabasha kubona amafaranga mu gihe gito.

Leta y'u Rwanda yahisemo korora ingagi, inkende ndetse n'izindi nyamaswa kuko zikurura ba mukerarugendo, bityo u Rwanda rukabasha kubona amadovize rukabasha kwiteza imbere.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bavuga ko ubuhinzi ari umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, ariko banavuga yuko ari inkende zibonera bityo umusaruro bagakwiye kubona ukagabanuka. Gusa inkende na zo ni umutungo ufasha igihugu kwinjiza amadovize.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, gusa abahinzi b'inaha bo, bavuga yuko hari igihe bahinga maze inyamaswa zikabonera, bigatuma babona umusaruro mukeya.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango. Aba bahinzi bavuga y'uko ibinyogote birabonera bityo bigatuma umusaruro uba mukeya bari biteguye kubona.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, gusa abahinzi bavuga ko imbeba zibonera imyaka bigatuma umusaruro uba mukeya.

Iri ni iteme ryo mu kirere, igihugu cyacu kirimo kwegereza abaturage ibikorwa remezo nk'imihanda yo mu kirere, mu gihe hari ahantu ubona ko hakenewe iteme kubera amazi menshi.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bavuga ko ari umwuga mwiza ubafasha kubona amafaranga bakiteza imbere, gusa bavuga yuko inyoni zikunda kubonera ariyo mpamvu baba bahagaze mu murima kugira ngo barinde imyaka yabo yoye konwa n'inyoni.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya mu buryo bwihuse, gusa abaturage bavuga yuko hari igihe bahinga maze ingagi zikabonera kuko zibonera maze bakagabanya, bakabona umusaruro mukeya.

Ubuhinzi n'ubworozi, ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyokurya bibafasha gutunga umuryango, aba bahisemo guhinga babifatanyije no korora inka, kuko bituma umuntu abona iterambere mu buryo bwihuse.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bitunga umuryango, gusa bavuga ko inyoni zirabonera igihe imyaka iri hafi kwera, ariyo mpamvu baba bari mu murima kugira ngo barinde inyoni zona ibihingwa byabo.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere ndetse n'igihugu muri rusange, Leta y'u Rwanda yahisemo korora inyamaswa muri parike harimo isha, inkende, ingagi ndetse n'izindi, kubera ko zikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize maze tukiteza imbere.

Abahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye, bavuga yuko inyoni zibonera, maze umusaruro ukaba mukeya. Ni yo mpamvu baba bahagaze mu murima buri munsi, kugira ngo barinde ko inyoni zabarira imyaka, maze umusaruro ukazagabanuka.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya bihagije bitunga umuryango, gusa abahinzi bavuga ko inkende zirabonera bigatuma babona umusaruro mukeya.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bavuga ko uyu ari umwuga mwiza ubafasha kubona amafaranga ndetse n'ibiribwa bibasha gutunga umuryango wabo, gusa abahinzi bavuga yuko bahura n'inyoni zibononera ariyo mpamvu baba bari mu murima kugira ngo birinde izo nyoni.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, uyu mworozi yahisemo korora ihene kuko bimufasha kubona amafaranga mu gihe gitoya kandi nta gishoro bimusabye gihambaye.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije bibasha gutunga umuryango. Gusa bamwe mu bahinzi bo muri aka gace duherereyemo, bavuga yuko inkende zikunze kubonera maze umusaruro bari biteze ukaba mukeya.

Muri aka gace duherereyemo, bavuga yuko babona umusaruro mwiza mu gihe bahinze maze akavura kakagwira igihe, gusa bavuga yuko bajujubijwe n'inyamaswa zibonera igihe imyaka itangiye kwera.

Leta y'u Rwanda yahisemo guteza imbere no kwagura parike kubera ko iyo bororeyemo inyamaswa nk'ingagi, intare, isha ndetse n'izindi bikurura ba mukerarugendo bityo bakatuzanira amadovize.

Umurima uhingwamo imyaka itandukanye, harimo umuceri, ibigori ndetse n'ibindi bihingwa, biragaragara ko hari inyoni zikunda kubonera, hakaba abaturage baba bahari kugira ngo barinde izo nyoni zireke kubonera maze bazabone umusaruro uhagije.

Abahinzi bo muri aka gace duherereyemo bakunze kuvuga yuko ingagi zibonera imyaka akaba ariyo mpamvu babona umusaruro mukeya, ingagi nazo ni ingirakamaro kubera ko zikurura bamukerarugendo bakatuzanira amadovize bityo igihugu kikabasha gutera imbere.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse n'ibiribwa bifashisha mu gutunga umuryango, abahinzi bavuga ko n'ubwo bahinga ingagi zibonera ariko ingagi na zo zigira akamaro kubera ko zikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, abakora umwuga w'ubuhinzi, bavuga ko basarura umusaruro ukabafasha kwiteza imbere ariko bavuga yuko inyoni zibonnonera ari nayo mpamvu baba bari mu murima barinze imyaka yabo.

Ubuhinzi ni umwaga ufasha abaturage kwiteza imbere, bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije byo gutunga umuryango, gusa abahinzi bo bavuga yuko hari igihe bahinga maze inyamaswa zo ku gasozi zikabonera.

Ubworozi ni umwuga ufasha abaturage ndetse n'igihugu muri rusange kwiteza imbere bakabona amafaranga. Abanyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange bahisemo korora ingagi kubera ko ziduha amadovize maze igihugu kigatera imbere.

Ubuhinzi ni umwuga ufasha abaturage kwiteza imbere, abahinzi bavuga ko iyo bahinze babasha kubona ibiribwa bihagije mu muryango, gusa hari abavuga yuko inkende zibonera ariko inkende na zo zifite akamaro kuko zikurura ba mukerarugendo, igihugu kikabasha kubona amadovize.